Icyumba cyo kwa muganga kirimo umubyeyi ndetse n'umwana we n'umufasha ari we muganga ari gusuzuma umwana amwishimiye neza, ari guseka ndetse anezerewe kugira ngo umwana atagira ubwoba.

Ahantu hateraniye abantu benshi ku kagari ndetse ku kagari ni ahantu hatangirwa serivise zo mu nzego z'ibanze harimo umutekano, ibibazo by'abaturage ndetse hatangirwa n'ibyangombwa.

Ikigo cy'amashuri abanza, aho abana bari gufatira amafunguro ku ishuri mu buryo bwo kunoza imyigire yabo ndetse n'imibereho myiza yabo.

Imodoka zabugenewe zishinzwe gutwara ibyo kurya akenshi zibijyana, zibishyira impunzi ziba zaravuye mu bihugu bitandukanye byo mu turere.

Umwana ufite agahinda, afite amarira menshi wishwe n'inyota n'inzara uri ku gasi, nta byo kurya, nta byo kurya, uhunze ahantu runaka agiye mu kindi gice.

Umuntu useka neza ufite amenyo meza cyane asa umweru, bigaragara cyane yuko yita ku isuku yo mu kanwa kiwe kandi akunda no kwiborosa cyane, mu rwego rwo kugira ngo agire inseko nziza inogeye buri umwe wese.

Umwana ukiri mutoya, uri gusuzumwa amenyo hakoreshejwe agakoresho kabugenewe, k'indorerwamo gasuzuma aho zamuzitsa ziba ziri n'amenyo atereye, aho muganga atabasha kubona.

Umwana ufite ikibazo cy'amenyo bari gusuzuma, umuganga ari gukoresha ibikoresho byabugenewe areba neza aho ikibazo giherereye.

Umusaza usheshe akanguhe n'umusore ukiri mutoya, bicaye bari gusoma igitabo ndetse ariko bafata ka cyayi bishimye cyane bari guseka banezerewe.

Ibitaro byitiriwe umugabo Nyirinkwaya bizwiho kwita ku bagore, indwara zo mu nda ndetse n'ubundi buvuzi muri rusange.

Icyumba cyo kwa muganga gifite ibikoresho byose by'ibanze ndetse bikenewe, gitangirwamo amaraso ndetse kikayahererwamo, gifite isuku yose ihagije.

Icyumba cyabugenewe kirimo umuganga wabugenewe ari gusuzuma neza niba igikoresho cyarabugenewe ari kizima ndetse iki gikoresho gikoreshwa akenshi bari gusuzuma indwara zabuze ndetse zananiranye.

Icyumba cyo kwa muganga cyahariwe isuzumiro, kirimo agatanda, intebe y'umurwayi, iyo muganga, robine bakoresha bari gukaraba intoki ndetse n'igishushanyo kiriho ibipupe.

Icyumba cyo kwa muganga kiba giteganirijwe abarwayi baje kwivuza ariko abaganga bakabona yuko batari bubasezerere bitewe n'uko uburwayi bwabo ari ubwo gukurikiranirwa aho ngaho, iki cyumba kirimo ibintu byose by'ibanze aho gukarabira intoki ndetse n'uburiri bwiza cyane.

Inzu yo kwa muganga yifashishwa ku bagore batwite, abagore bagiye kubyara ndetse n'abagore babyaye mu buryo bwo kugeza umwana hanze amahoro.

Abantu bicaye ku ntebe zo kwa muganga, bategereje kwinjira aho bahererwa amabwiriza, ndetse no gufatwa ibipimo bijyanye n'ibyo baje kwivuza.

Inzu yabugenewe ikorerwamo imyitozo ngororamubiri irimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo ibyo kugenderaho, ibyo kunyonga nk'amagare, ibitwara mu nda ,ndetse n'ibindi.

Icyuma cyo kwa muganga, gikoreshwa mu gihe bari kureba indwara zananiranye, kiriho agatanda umurwayi aryamishwaho kugira ngo bamusuzume neza indwara arwaye.

Igitunguru cy'umutuku, gikasemo inshuro ebyiri, indimu y'icyatsi, icupa rirerire ry'amavuta y'ubuto, akunze gukoreshwa ashyirwa mu biryo, ndetse anywebwa, mu rwego rwo kwivura indwara zo mu nda.

Imitsi ya Kinyarwanda ikorwa mu bimera, ikoreshwa iri kuvura abantu indwara zitandukanye, harimo: izo mu nda, iz'uruhu, izo mu kanwa, ziri mu ducupa dutandukanye ndetse no mu dukarito.

Imiti ya kinyarwanda ikozwe mu byatsi, agasekuru n'umuhini wako, uducupa dutatu, tubiri dupfundikiye turimo umuti byifashishwa mu buvuzi butandukanye.